Videwo iragaragaza umukobwa uri gutanga ikiganiro cyangwa se uri gutanga ibyifuzo bye, hari abandi bicaye bateze amatwi ibyari kuvugwa, gusangiza abandi.

Ifoto iragaragaza umupapa ufashe mikoro ariko utanga ikiganiro, cyangwa se asa n' uri kubaza ikibazo umuyobozi kuko ari muri pozisiyo yo kubaza ikibazo; abandi baricaye bamuteze amatwi.

Iyi foto iragaragaza umusore ufite amikoro bigaragara ko ari gutanga ikiganiro runaka ku ngingo runaka. Ibingibi bigufasha mu kuba watinyuka mu kuvuga mu ruhame, bigatuma byakongerera amahirwe yo kuba wagira izindi nshingano muri rusange.

Abantu bari kwizihiza umunsi mukuru wa gahunda ya Gerayo Amahoro yashyizweho na Leta, ni gahunda yashyizweho na Leta yifuriza abantu kugera aho bagiye amahoro baba bagenda n'ibinyabiziga baba n'amaguru aho ari ho hose bagiye bakagerayo amahoro nta gihutaza.

Videwo iragaragaza aba mama, aba mama bambaye imyenda isa ndetse n'undi utambaye imyenda isa na bo n'undi uhagaze inyuma, ubona bafite amajuyisi y'inyange ndetse n'amazi y'inyange basa n'abari mu nama.

Iyi foto iragaragaza ibisike bibiri by'amabara atandukanye, ibingibi ni kimwe mu bikoresho bikoreshwa mu muco nyarwanda, bikoreshwa mu mbyino gakondo, bikoreshwa abantu basura abandi.

Aha ni umukobwa ufashe imashini ikoreshwa mu gukora imisatsi y'abagore ndetse'undi uwariwe wese washaka gukoresha imisatsi, imashini yifashishwa mu gukora cyangwa se mu gutegura umusatsi kugira ngo ube mwiza cyane.

Hari inyubako zitandukanye, hari n'amashanyarazi. Ubona ko ariho batanga umuriro kuri ziriya ngo zitandukanye ndetse n'ahandi hantu hatandukanye. Ibi ngibi byoroshye, bituma abaturage bacana aho bitandukanye igihe icyo ari cyose bashakiye.

Biragaragaza umudamu uri kudoda, kudoda ni akazi katuma utera imbere ugateza imbere umuryango wawe ukiyubaka mu bw'ubukungu, ukaba wazamura iterambere ry'igihugu cyawe, ndetse n'umuryango wawe ukaba wabaho neza cyane.

Ifoto iragaragaza umu mama uri gushyira, uri gukanda imibare muri kashi pawa ni umukozi wa REG. Ikigo gishinzwe gutanga amashanyarazi mu Rwanda ku baturage b'Igihugu.

Ahangaha humvikana abaturage, imodoka n'umuhanda uri gukorwa neza cyane, ahangaha hakenewe igikorwa cy'iterambere kuko gituma abaturage babasha kugera aho bagiye bambuka neza bagera bagiye bagifite n'imyaka yabo mu buryo buboroheye.

Iki ni ikiraro kiriho abantu batandukanye, harimo abapapa, harimo abamama, harimo abasore, hakurya yabo hari amazu, hari ishyamba, hari n'ibiti bitandukanye.

Iri ni isoko ry'ibirayi, ibitunguru n'ibindi bitandukanye. Ibi ngibi bifasha umuntu kuba yahaha, bitewe n'aho ariho hose bitamugoye, atabashije gukora urugendo runini.

Ifoto igaragaza abadasso ndetse harimo n'umusirikare n'abandi baturage batandukanye, bari mu nama bari kwiga ku ngingo zitandukanye.

Urabona ko hari umusirikare, umu mama n'umugabo. Urabona ko bamushyikirije inkunga, bari bari kubaha inkunga. Bari gufata ifoto y'urwibutso.

Hano hari umugabo uri gutanga ikiganiro kuri, genosayidi memori, akaba ari gutanga ikiganiro ku mateka yabaye mu Rwanda kuri jenoside yakorewe abatutsi igihumbi maganacyenda mirongocyenda na kane.

Inzu ziragaragaza abagabo bari murutoki, urutoki rurimo ahantu ho kwicara harimo n'imbuga ubona ko hasanzwe hakorerwa ibintu bitandukanye, nko babagira ibintu by'amatungo.

Iyi foto iragaragaza abaturage bari mu kiganiro runaka barimo baganirizwa n'ubuyobozi bwabo biga ku ngingo zitandukanye zateza imbere igihugu cyose imbere.

Iyi foto iragaragaza abagabo bikoreye amabuye, inyuma yabo hari ibigori, hirya hari urutoki, hino hari isombe, ubonako bari mu igikorwa cy'umuganda, umuganda ni igikorwa cyiza buri kwezi.

Ifoto iragaragaza abantu bingeri zitandukanye: abapapa, aba mama, abana b'urubyiruko bateraniye hamwe. Basa n'abari mu nama. Bamwe bicaye abandi bahagaze.

Hano ni mu gikorwa cy'umuganda, harimo abasirikare, harimo abapolisi, harimo abadaso, ndetse n'abaturage basanzwe bari muri iki gikorwa. Umuganda ni igikorwa ngarukakwezi kiba ku ya nyuma y'ukwezi, kigahuza abanyarwanda bose muri rusange.

Iyi foto iragaragaza abantu bari kubaka inzu yo kumanikamo imyaka cyangwa se guhunikamo imyaka. Aha ngaha bituma imyaka yawe itagira ikibazo, ukaba wayigurisha ikimeze neza.

Iyi foto iragaragaza aba papa bari mu muganda, ndetse n'abamama bambaye imipira yanditseho Paul Kagame hariho ikirango cya efuperi, n'ifoto ya perezida umukuru w'igihugu hizi ekiselensi Paul Kagame.

Iragaragaza ikibuga kiriho benshi, hano bari gukora siporo, siporo ni igikorwa cyiza gituma umuntu aruhuka, cy umuntu akagabanya ibiro, agira umubiri urifiti , zikabarinda n'indwara.

Hano hari abantu bari muri siporo, ubona ko ari abapolisi, siporo ni igikorwa cy'ingenzi cyane mu buzima kibasha kuba cyakurinda indwara, umubyibuho ukabije, kuruhura mu mutwe, haba no mumitekerereze.

Aba ni abana bakobwa babiri umwe wambaye imyenda y'ubururu, undi wambaye iby'umukara barikina umupira w'amaguru, bari gukinira mu kibuga kirimo umucanga inyuma yabo hari igiti, inyuma kure hasa n'ahari n'ahatuwe hari amazi menshi cyane.

Iyi foto iragaragaza aba papa, abasore, aba mama n'abapolisi bari muri siporo bari gukina umupira wamaguru, mu kibuga hakurya yabo hari ibindi biti hari n'urutoki.

Aha iyi shusho iragaragaza abakinnyi b'umupira barimo guhabwa amabwiriza no gufata ifoto y'urwibutso, ifoto akenshi irakenerwa cyane mu gihe runaka gitandukanye, ku buryo nyine bakeneye ifoto bahita bayikoresha.